Inkweto n'ibindi bikoresho bitandukanye bifashishaga dukuraga mu iduka, tubikoresha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo dusa neza cane.

Abaturage baguraga ibicuruzwa mu iduka kugira ngo bibafashe mu buzima bwabo, n'umucuruzi na we akabona amafaranga ashaka kugira ngo yiteze imbere.

Ibicuruzwa batwaragamo ibikoresho bitandukanye, aho umucuruzi agurisha ibikapu cyangwa ibishakoshi, kugira ngo buri muturarwanda ajye abona uko atwara ibikoresho bye abibitse neza.

Iduka tuguragamo imyambaro, turayambaraga kugira ngo duse neza cane, umucuruzi agakuramo amafaranga mu bicuruzwa yaranguye, nawe ubwe arayambaraga kugira ngo ase neza.

Ibicuruzwa turabiguraga, tukabyambara, aha mu iduka niho umucuruji akura amafaranga yifasisha mu buzima bwa buri munsi, n'abaturage bakagura kugira ngo babyifafasishe mu buzima bwiza bajya gusimbuka.

Abaturage baranguraga ibicuruzwa bakajya kubicuruza, bakuragamo amafaranga bifashisha mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi, n'abacuruzi na bo bungukiraga leta kugira ngo bakore ibikorwa remezo.

Abaturaje bajagayo bakahararaga, bararyaga, bakaryaga kubera ko ni heza ni nko mu rugo, biyumvaga ko bari mu rugo iwabo.

Isoko, imyenda aho umucuruzi ari kugurisha imyenda, n'umuguzi akabona imyambaro yo kwambara itamuhenze, kugira ngo agire isuku n'ubuzima bwiza cyane.

Gushaka sherivishe tubikusha amafaranga twohereja bagenzi bacu, kugirango bakore ibikorwa bitandukanye kandi n'abaduha sherivishe baziduha neza cane.

Turaziguraga, turazitekaga, zirajohaga cane, zikarindaga indwara kugira ngo tugire ubuzima bwija cane cane, abazicuruza, abaziranguraga bakuragamo amafaranga.